Ese iyo bavuze irigesheni wumve iki? Irigesheni ni uburyo bwiza bwo kuhira imyaka yawe, ukayuhira ikagufasha kumera neza ndetse ikera, haba mu gihe cy'izuba ntibashe kurumba ahubwo ikaguha umusaruro nk'uwo wari uyibyitezemo.

Mu buhinzi tugira ibintu byinshi cyane bitandukanye, ndetse tugira n'ibikoresho byinshi bitandukanye cyane cyane ku muntu ubikora nk'umwuga atari ubikora ashaka kwihaza urugo rwonyine, ahubwo ashaka no guhaza amasoko.

Ibinonko ni amabuye akomeye ariko ndetse ashwanyagurika, aho mu cyaro bayifashisha bateka inkono yitwa nyirarunonko, aho batwika bagashyiramo ibijumba, bakabishyiramo bakayihura igashyaya neza, nyirarunonko rero ni ingirakamaro, iboneka iyo abahinzi bari kurima.

Abahinzi ni bamwe mu bantu batuma twishima kuko batuma tubona imyaka cyanecyane abantu bakunze guhinga ibigori, ibigori bikadufasha mu buryo bwinshi butandukanye, harimo uko twabirya tubyokeje, tubitetse cyangwa tukabisya hakavamo akabunga cyangwa se ifu y'igikoma.

Mu Rwanda tugira ibihingwa byinshi, harimo n'ibigori ari cyo gihingwa cyiza cyane barya mu buryo butandukanye, wacyotsa, wagiteka, wagikoramo ifu y'igikoma, mbega ikigori ni cyiza mu buryo bwose, cyane cyane ku bana no ku bantu bakuru ntacyo gitwaye ndakibashimiye.

Umuhanda, umuhanda ukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye, mu buryo butandukanye, aho ushobora gukoreshwa n'ibinyabiziga harimo moto, n'amamodoka, cyangwa se abatabifite bakaba bawugendamo n'amaguru.

Ubuhinzi kugira ngo bube successful nuko haba hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo imiti igenda yica udukoko dushobora kwataka imyaka bikayimungwa ntikure neza nkuko byari biteganyijwe. Harimo n'andi marozwari akoreshwa mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba.

Iyo ugiye mu mirima cyangwa se mu bishanga, niho ubona ubudasa bw'ibiribwa cyangwa se bw'ibihingwa byinshi bigiye bitandukanye bimeramo, kandi ibyo bihingwa biba bifite umumaro mu buryo bumwe, ari imbuto se cyangwa se abandi babikoresha nk'imiti, ni ngombwa ko tugenda tukagira ubumenyi, tukamenya buri gihingwa n'akamaro kacyo.

Inyamunyo, inyamunyo ni ibitoki ndetse rimwe bavuga ko ari iby'abagore ariko ndetse n'abagabo iyo babiriye nta kintu bibatwara, bikunze kuboneka cyane cyane mu Burasirazuba umuntu wabo hose rwose aba akunda ikintu bita igitoki.

Babyita pipiniyoro. Pipiniyeri ni uburyo bwiza bwo kureramo imbuto ntoya ukazizuhira kugira ngo bizavemo urugengo runini ushobora gutera mu butaka, bikaba byabyara urubuto runini. Pipiniyeri ni nziza nawe ndayigushishikariza.

Ibitoki ni bimwe mu biribwa nyamwamba byiganje hano mu biribwa bikunze kuribwa n'Abanyarwanda, cyane cyane bikunze guhingwa mu Karere ka Kayonza, Kirehe mu Ntara y'Iburasirazuba muri make. Aho mu Majyaruguru usanga badakunze kubirya.

Hari ubwoko bwinshi bw'ibihingwa bitandukanye mu Rwanda bukoreshwa, hakaba igihingwa cyitwa imyumbati, rimwe na rimwe ku batakizi cyangwa se baturuka i Kigali bashobora kukitiranya n'isombe, kuko usanga ibibabi byabyo bisa, cyane cyane n'ibindi by'igihingwa cyitwa isombe.

Ubutaka ni ikintu gikomeye cyane, ubutaka ni ikintu kidufasha mu buzima bwa buri munsi. Ni ngombwa ko buri muturage wese aho ari, agomba kurwanya soil pollution, kugira ngo tubashe kurinda ubutaka bwacu bugumane amafumbire, n'ibindi bidufasha mu kumeza ibiribwa byacu.

Cyitwa igihwagari cyangwa se mu ndimi z'amahanga bakunze kucyita "sunflower". Igihwagari rero gikoreshwa mu bintu byinshi cyane bitandukanye, haguye cyanecyane mu gukora amavuta, amavuta yacyo aho yakunzwe n'abantu benshi, kandi yizewe mu mavuta meza.

Mu Rwanda tugiye dufite ubuhinzi bugiye butandukanye ndetse burimo n'imbuto, hano uyu munsi turibanda ku gihingwa cy'imbuto rwitwa inanasi, inanasi ni urubuto rwiza rurinda indwara ndetse rugatanga n'ibyishimo ku muntu ururiye.

Ese ubavuze ngo umunyagara wumva iki? Umunyagara, umunyagara ni igitoki kiba kikiri gitoya cyane, kitarakura ariko mu by'ukuri ukiteye neza, ukacyitaho, cyazavamo igitoki cyiza cyane, kandi gikomeye.

Hari ijambo abanyacyaro dukunze gukoresha ryitwa umuferege, umwana wavukiye i Kigali utazi imirima ntabwo akunze kubivuga, umuferege rero ni inzira baca mu murima cyangwa se ahantu hakunze kunyura amazi hari n'umurima, kugira ngo ugabanye isuri cyangwa se no kwangiza ku ibikorwa remezo bitewe n'imvura nyi...

Ibiti byiza bibagarirwa hakiri kare, bitegurwa hakiri kare, imbuto y'ibiti burya ishakishwa bikiri bitoya, bikazavamo igiti ushobora gushyira mu butaka kigakura, kikamera, ari ibyo twita pipiniyoro.

Abantu benshi ntabwo babimenya, cyanecyane abavukiye mu Mujyi, batigeze bahura n'ubuhinzi. Babona bigeze ku isoko bitukura byererana, ariko ntibazi uburyo inyanya zibonekamo, aho zihingwa n'uburyo iyo ziri gukura ziba zidasa umutuku. Ni byiza ko dusura ubuhinzi tukamenya byinshi byimbitse.

Hari imiti myinshi cyane igiye itandukanye, ikoreshwa mu bintu ndetse bitandukanye nko kwica amabakiteri, cyangwa se ibindi bintu by'amavirusi bitandukanye, makikonki agari ni uburyo bwiza bwo gukiritivetinga ayo mabagiteri, deni bakazashaka n'uburyo n'ibiyica bakaba babikoresha babirwanya bakiteri mbi.

Mu Rwanda tugira amoko atandukanye y'imiti igenda ikoreshwa mu guhungira imyaka cyangwa se mu kurinda imyaka yacu kwicwa cyangwa se kumungwa n'udusimba, uyu munsi turibanda ku muti mwiza cyane bita Oxytocin.

Kera gufashanya mu Rwanda byahozeho, aho abaturage bajyaga guha umubyizi umwe mu muturage wabo, ariko muri iki gihe bisigaye bikoreshwa nko muri terime bita umuganda. Umuganda na none abantu baza bakaguha umuganda bakagufasha.

Hari igihe ujya wibaza ngo ese ibintu turya biva hehe mu by'ukuri. Ese ko ubigura ku masoko, cyane cyane abana bo mu mujyi ni bo babyibaza. Ariko hari abantu baba bari inyuma babitubereyemo baduhingira ibiribwa byo kurya, abahinzi bubahwe turabashimiye.

Mu Rwanda tubona ibiryo mu bwoko butandukanye, hari ibyo duhinga tugahita turya, ariko hari n'ibyo tubanza kujyana mu nganda, ni gutya ibisheke tubifata tukabijyana mu nganda, bakabitunganya hakavamo isukari ikoreshwa mu kunywa baryoshya igikoma, icyayi, ndetse n'ibindi binyobwa.

Tugira ubwoko bwinshi bw'uburyo wabikamo ibiribwa byawe cyangwa umusaruro wasaruye igihe wahingaga cyane cyane higanjemo umufuka, umufuka ni igikoresho cyiza cyane gishobora gukubikira neza, haba amasaka, ibigori, ibihingwa byawe ukamenya neza ko bibitse kandi byizewe.

Mu masoko asanzweyo wasangamo imbuto zitandukanye ndetse no muri super marche ariho ushobora gusangamo naho imbuto zitandukanye, uyu munsi rero urubuto rw'avoka ni urubuto rwiza kandi warusanga hose ndetse rukakugirira umumaro.

Mu Rwanda tugira ubwoko butandukanye bw'ibinyampeke harimo soya, amasaka, ibigori n'ibindi kandi ibyo bintu bikaba byifashishwa cyane cyane mu gukora ifu y'igikoma kandi ikaba aba ari ifu ifite intungamubiri.

Avoka ni igihingwa cyiza ndetse kikaba n'urubuto rufasha umubiri wacu mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane iyo umuntu amaze kurya nk'ibiryo birimo amavuta menshi, avoka ni urubuto rudufasha mu guhindura ibinure bibi mu mubiri, ndetse bikabisimbuza ibinure byiza. Ni nziza rero ndazigukundishije.

Abahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye, ariko uyu munsi ngiye kugaruka ku kamaro k'igihingwa kimwe bita ikigori. Ikigori ni igihinga cyiza, ushobora kukirya ari kibisi ukakirya cyokeje cya se gitetse, ariko bamwe bahitamo no kubyumisha bakabisya bagakuramo ifu y'akawunga, ndetse n'iy'igikoma abana bakabinwa banezerewe.

Ibigo by'igihugu bishinzwe education haba minisiteri cyangwa se n'ibindi byose n'amashuri, ni ngombwa ko dukwiye gushishikariza abantu cyane cyane mu bice by'icyaro, tukababwira akamaro k'ishuri, ku buryo umubyeyi agomba kuba abizi atagomba gukereza umwana ishuri.

Mu Rwanda bajya bakunda kuvuga imvugo ivuga ngo nutera kimwe ujye tera bibiri munyarwanda, nta kindi baba bavuga rero baba bavuga ibiti, kuko bazi umumaro wabyo ntago bifuza ko bitemwa bigashiraho, ahubwo ni ugutema kimwe wongeraho ibindi byinshi.

Ese iyo bavuze guhayikinga wumva iki? Guhayikinga ni mu ndimi z'amahanga ariko nyamara mu kinyarwanda usanga bisobanuye kurira imisozi, aho abakerarugendo batandukanye bakunze kuza mu Rwanda bakajya gusura imisozi yacu, bazamuka bagenda mu mashyamba.

Abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo munsi y'urugo, ariko se wowe wakumva munsi y'urugo ni iki? Munsi y'ururgo ni ahantu heza cyane ushobora gutera imboga, ushobora gukorayo akarima, ukubakamo urutoki rwawe, ndetse bikakufasha kudasesagura amafaranga ujya ku isoko, ujya guhaha ibintu bimwe na bimwe kuko uba ufitemo ibintu byinshi, ndetse habamo n'ibiti biguha umwuka, bityo ukaba uriteganyirije kandi ukoresheje munsi y'urugo.

Ibiti ni bimwe mu mbaraga z'igihugu ziheraho zibona ibintu bigiye bitandukanye haba amakara cyangwa se inkwi zo gucana, ndetse n'umwuka mwiza ibyo byose tubikesha ibiti. Ni byiza rero ko dutema igiti kimwe dutera ibindi byinshi.

Amashyamba ni meza atugirarira umumaro mu buryo butandukanye, si byiza ko tuyatemaho. Buriya amashyamba, hari inyamaswa zimwe na zimwe ziyafata nk'ubuturo bwazo ariho ziba, kandi zikaba ziduha n'umwuka mwiza natwe abantu.

Bamwe barabitinya mu masaha ya nijoro, bagatinya kuhanyura. Ariko mu by'ukuri iyo bikoreshejwe neza, ibidukikije ni byiza, biturinda amasuri, bikaduha umwuka mwiza. Nashishikariza umuntu kujya atema igiti kimwe atera bibiri, kugira ngo bikomereze hamwe kutuzanira ibyiza.

Hari ubwoko bugiye butandukanye bateguramo ibiti by'imbuto kugira bazabitera ariko ubwo nshaka kuvuga uyu munsi ni ubwoko bwitwa pipiniere, aho bita ku biti bikiri bitoya bakabanza bakabimeza ku buryo byabasha gufata mu butaka babishyizemo.

Tangawize ni igihingwa cyiza cyane gikunze gukundwa n'abantu bakuze, aho abatoya bavuga ko kibarya nk'urusenda. Umuntu udakunda urusenda ntiyayishobora. Ariko ni nziza kuko ivura indwara zitandukanye nk'amagiripe ndetse n'umutwe, ikagabanya na stress.

Indabo, indabo ni nziza ndetse muri kaminuza habamo buriya kombineshoni bita horitikaraca, aho abantu bagenda bakiga ku ndabo n'inzuki. Kuko burya indabo n'inzuki birakorana. Ni byiza rero ko tumenya akamaro k'indabo, ku buryo kagufasha ahantu kuba hasa neza.

Mu isoko tubonamo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo ibitoki, inyanya, amashu ariko hakazamo n'ikiribwa cyitwa ibitunguru, na byo biba biri mu bwoko butandukanye bitewe n'uburyo bikoramo, uko bihumuza cyangwa se n'uburyo bikomeye n'uburyo wabibikamo.

Mu Rwanda tugira ibihingwa bitandukanye ndetse byiganjemo imbuto, harimo imineke ariko uyu munsi reka twibande kuri avoka, aho ari igihingwa cyiza kandi gifasha kugabanya ibinure bibi mu mubiri, umuntu akabaho afite amagara mazima.

Ushobora gutegura iwawe cyangwa se ahandi hantu ukorera haba kuri office cyangwa ahandi hantu ukuba ukahategurage jaride nziza bityo ikajya igufasha kuruhuka mu mutwe ndetse no kwishimira ahantu uri atari ibihuru gusa ahubwo uri ahantu hasa neza.

Mu Rwanda tugira ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibirungo byitwa ndetse mu kinyarwanda indyoshyandyo, harimo rero insenda; urusenda ni igirungo cyiza cyane kiryoshye, cyifashishwa bafasha abantu kuryoherwa ndetse bamwe mu bahanga bakavuga ko gitera apeti.

Ni byiza ko iwawe mu rugo niba ufite ahantu washyira jaride uba ukwiye guhinga n'indabo bigaragara neza, ariko kandi ukamenya kuzitaho kuko iyo zititaweho zishobora gukurura ibindi bikoko ugasanga ntibisa neza mu rugo.

Umusore ushaka gusaba urukundo umukobwa, ureba ahantu heza ha nyaburanga hatuje, hasa neza, hari uturabyo, mbega aho umukobwa nta kindi ashobora gutekereza, uretse urukundo umukunda akakwemerera ndetse mugakomezanya urugendo rw'urugo.

Ubuhinzi ni bumwe ubukungu bukomeye u Rwanda rufite, kuko ariho rukomora amafaranga menshi y'igihugu, rero ni bityo uyu muhinzi agomba kwitabwaho agatezwa imbere, kuko ari mu bantu bakomeye u Rwanda rufite.

Mu isoko dusangamo amoko y'imbuto atandukanye, harimo amatunda, amaronji, imyembe, wotameroni, inanasi, ibinyomoro, ndetse na pome. Ni byiza ko dukwiye kujya turya izi mbuto kugira ngo bidufashe kurinda indwara.

Mu Rwanda usanga abahinzi cyangwa se abacuruzi bashakashaka amafaranga mu buryo butandukanye, aho buri munyarwanda wese bitewe n'amafaranga afite ashobora kujya ku isoko akabona ibyo akeneye. Haba ufite ijana ashobora kubona iby'ijana, haba ufite ibya menshi na byo akabona ibya menshi.

Mbese wari uzi imboga zigiye zitandukanye nyinshi? Uyu munsi nagira ngo nkubwire ku mumaro w'imboga rwitwa urutoryi. Urutoryi ni uruboga rwiza cyane, rurinda ikirungurira, rukagufasha kurinda indwara. Mbega uhinze neza, wahinga urutoryi.

Ibihaza ni ubwoko bw'ibiryo bubarirwa mu mboga, ni ibiryo biryoha bikunzwe cyane cyane n'abakuze kuko bazi ibanga ryabyo, ni byiza wabiteka mu buryo butandukanye, wabitogosa, wabigereka ku bishyimbo, uburyo bwose wabitekamo byakuryohera, cyangwa se ukabitega nk'imboga zisanzwe.

Imineke ni zimwe mu mbuto zikunzwe hano mu Rwanda aho ziribwa n'abana, zikaribwa n'abakuru, abakuze n'abato bose barazikunda kuko ziraryoha ni ingirakamaro ku mubiri wacu, uwayimenye rwose ayitaho akarinda neza insina akazifata neza kuko ari ho dukura imineke.

Ibyiza by'ibidukikije, ibyiza by'ibidukikije tugiramo ibiti, tugiramo ubwoko bwinshi cyane bw'ibimera bitandukanye biribwa, ni byiza ko buri Munyarwanda wese aho ari agomba kwita ku bidukikije bikatugirira umumaro, ndetse bigakomeza no gutanga umwuka mwiza.

Indabo ni nziza indabo zigaragara neza zigatanga ibyishimo ndetse ukaruhuka mu mutwe ndetse zimwe mu nyamaswa naho akaba ari habitate yazo, ni byiza rero ko tubyitaho ukita kuri jaride yawe ugatura ahantu heza hari ubuzima bwiza.

Waziteka mu birayi, waziteka mu bitoki, waziteka mu nyama, byagera mu mboga noneho zikabiryoshya kubi. Izo nta zindi ni ibirungo bikoze mu mboga byitwa pavuro. Pavuro ni nziza cyane zirahumuza ndetse zikagira n'umumaro umubiri wacu.

Ibiti ni byiza, ibiti biduha umwuka mwiza, ibiti tubikoresha mu kubana amakara cyangwa se ibiti byo gucana, ibiti ni byyiza cyane niyo mpamvu tudakwiye kubyangiza ngo tubisesagure, ahubwo aho tubibonye hose tubibungabunge kuko biduha isura nziza.

Ni byo koko gutangira biragora ariko biryoha cyane mu isarura. Ugira ubunebwe bwo guhinga, ariko nanone inzara utayihinganye ntiwazayishira. Ni byiza ko utangiza guhinga imbuto, aho kugira ngo uzajye kuzigura ku masoko biguhenze, wowe ubwa wabyikorera.

Mu Rwanda tugira amoko atandukanye y'imboga harimo intoryi, karoti ndetse na puwavuro. Kandi yaba uri umukene cyangwa se uri umukire cyangwa se ufite amafaranga makeya cyangwa menshi uja ku isoko, ukajya guhaha kuko bose babamenyera quantité yabyo bitewe n'amafaranga ufite.

Duhinga ibintu bigiyeye bitandukanye, dukunze kwibanda ku myaka turya, ariko n'amashyamba ni ingenzi mu buhinzi bwacu tudakwiye kwibagirwa, ahabugenewe kugira ngo hahahingwe, akwiye kuhahinga bityo tukabona ibyo ducana ndetse n'umwuka mwiza duhumeka.

Imirima, abantu, amatungo, bikweka ubuzima Abanyarwanda babayeho, aho abenshi batunzwe no guhinga, abadahinga mu bice by'icyaro, bakaba babasha korora kandi bikaba bibasha kubabyarira inyungu mu gihe babikoresheje neza.

Habaho ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye ndetse bigira umumaro. Uyu munsi ndavuga ku bihingwa byitwa ibidegede cyangwa se ibihaza. Ibyo bihingwa bikaba bigira umumaro cyane cyane ku bantu barwaye nka diyabete, bikaba bigabanya amasukari ndetse bigafasha no kuyungurura impyiko.

Mu ndimi z'amahanga bakunze kubyita ngo ni irrigation. Twaza mu Rwanda bikitwa ngo ni ukuhira. Aho ari igikorwa kidufasha kurinda imyaka yacu kuma mu gihe cy'izuba ryinshi rikabije, imyaka yacu igahora itoshye.

Ubuhinzi n'ubworozi ni kimwe u Rwanda rukuraho ubukungu, cyane cyane ariko buva mu buhinzi, ubuhinzi rero kugira ngo tubugereho butwara ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo na irigasheni cyangwa se mu kinyarwanda icyo twita kuhira mu gihe k'izuba rika...

Kuhira imyaka ni umuco mwiza ku bahinzi cyanecyane baba bumva akamaro ko guhinga. Ntibita ku mazi akoreshwa ahubwo bita ku musaruro uzavamo, nyuma yo gufata neza iyo myaka bakazishima basarura.

Inzu ifite urugi rw'ubururu na sima hasi, harimo utumeza duteretsweho ibitabo bitandukanye.

Imyaka irakura ndetse mu gihe cyose haba icy'imvura, icy'izuba, nabwo ishobora kumera biterwa ahubwo n'uyivomerera cyangwa se nyirukuyihinga ukuntu yayitayeho, ayivomerera mu gihe cy'izuba, no mu gihe cy'imvura nabwo agakomeza kuyitaho.

Hari ibyiza nyaburanga byiza cyane, ariko hakabamo n'igihingwa cy'icyayi, icyayi mu Rwanda gikunze guhingwa mu turere dutandukanye harimo aka Nyabihu. Nyabihu ikaba ifite icyayi iyo uhabonye ni ahantu heza uba ubona ari nk'indabyo, ariko ari icyayi cy'u Rwanda kihahinze.

Iyo uhagaze ku musozi nibwo ubona ibyiza byinshi bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo ibiti, amazu meza, ibibaya, ibishanga ibyo byose ni ubudasa igihugu gifite nko mu bukungu bwacyo.

Ubuhinzi ni ikintu cyiza cyane aho dukuramo ibyo kurya ndetse ibindi tukagurisha tubona amafaranga. Ariko cyane cyane twibanze ku kintu bita amashyamba ni meza, aho aduha umwuka mwiza duhumeka ndetse tugakuramo n'ibyo gucana.

Ese iyo bavuze ibidukikije wumva iki? Ibidukikije harimo inzu, ibiti, abantu, ibintu byose mbese bikuzengurutse, ni byiza ko ubibungabunga kuko byose hamwe bifatanyiriza kutuzanira ibyiza.

Abaryi b'inyama barayikunda ariko abasiramu bakayitinya ndetse n'abakirisitu bakavuga ko batayemerewe, ariko uwayiriyeho ntiyifuza kongera kurya ku yindi nyama, bayihita akabenzi mu ndimi z'amahanga cyangwa se itungo ry'ingurube, ingurube ni nziza, irororoka ndayigushimiye.

Mamosi, mamosi icyo mu Kinyarwanda bakunze kwita ibinyamabere. Ibinyamabere iyo tubivuze rero abantu bagira ngo ni abantu gusa. Ariko ni inyamaswa zose zifite amabere ndetse zonsa. Watekereza ko ingurube ishobora konsa abana bayo barenga batanu kandi kuko ifite amabere menshi atandukanye...

Mu Rwanda tugira uburyo bwinshi umuturage ashobora kuba yakoresha yiteza imbere. Harimo ubuhinzi, harimo ubworozi, muri ubwo bworozi rero abaturage bakunze kwibanda ku itungo ryiza cyane ryitwa ihene, ari itungo ryororoka kandi ritanga umusaruro bakaba barigurisha, bakaba babasha kwikura mu bukene bakabona ndetse n'ibyo bakeneye.

Abantu iyo bashatse kwikura mu bukene bagura amatungo atandukanye cyangwa se bakayobaka iy'ubuhinzi ari byo bita ubuhinzi n'ubworozi, ariko hari itungo rimwe ugura ntiwicuze kuko ryororoka, rikakungukira mu gihe gitoya, kandi abantu bakarikunda ari ryo bita ingurube.

Ubworozi ni bwiza ndetse Abanyarwanda bajya bavuga ngo:"ukena ufite itungo rikakugoboka." Inkoko rero ni ubworozi bwiza aho ushobora kuzorora ukajya ubona amagi, waba ufite abana akagoboka abana se cyangwa nawe, mukabona inyama ndetse bitaba ibyo mukanabigurisha mukaba mwabasha kwikenura mu bindi byose mukenye.

Umutavu n'inka ntoya yabyawe ikiri ntoya iba iteye impuhwe mbese iba imeze nk'uruhinja, aho nyina ayifata neza akajya ayonsa ndetse iba itarabasha kugenda neza nk'uko inka nkuru igenda.

Ubudasa bw'inyamaswa zitandukanye aho umuntu ashobora konsa abana babiri, kubera ko ari bo afite amabere babiri, ariko ku nyamaswa yitwa ingurube ho biratandukanye, kuko ifite ubushobozi bwo kuba yakonsa ibyana byayo byinshi cyane, kuko ifite ayo macebe.

Mu Rwanda hagiye hakoreshwa ibintu byinshi cyane kugira ngo bakure abantu mu bukene, haza gukorwamo n'igikorwa bita Girinka munyarwanda, aho hatangwaga itungo ry'inka waryorora ryabyara nawe ukazoroza abandi.

Inka ni inyamaswa nziza, cyane cyane nko mu muco Nyarwanda, ni inyamaswa bifashisha bajya gusaba umugeni, aho uyijyana iwabo w'umukobwa, iwabo w'umukobwa nabo bakaguha umukobwa, mugatahana umugeni, mu gataha mwishimye, ubukwe bugacyurwa neza.

Ibintu byinshi bigiye bitangaje, hari n'ubwo wakwibaza uti ese koko inka nayo yambara amaherena nk'abantu, ariko inka ijya yambikwa amaherera nk'ikimenyetso cyo kuyiranga nk'ikimenyetso cyo kuyerekana kuyitandukanya n'izindi.

Ni itungo ryiza, ni itungo ushobora kororera mu rugo, ni itungo wagiriwe amahirwe ushobora kugira ifamu ryayo, ni itungo rigufasha kurera neza abana kuko ribaha amata, iryo nta rindi n'inka tuvuga, nkuko abanyarwanda bavuga ngo uwanyoye amata ntayoberana, turashimira inka iduha ayo mata.

Ikibuti ni inzu kera cyangwa se mu cyaro bubakiraga inkwavu. Inkwavu ni inzu zibamo zikaba zariramo, zikaba zabyariramo, zigasabaniramo na ngenzi zazo, ikibuti mbega ni inzu nziza y'inyamaswa cyane cyane urukwavu.

Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwayanyoye amata ntayoberana, ayo mata arera abana, arera abantu bakuru, ndetse tuyakesha imbyeyi, tuyakesha inka, inka ni itungo ryiza, inka ni itungo ryiza cyane mu Rwanda bakoresha baryamo inyama, banywa ayo mata, akakurerera abana, akagufasha mu buryo bwose haba bw'ubukungu, ukaba wayagurisha ukabona amafaranga.

Abanyarwanda bagira uburyo bwinshi babonamo amafaranga abagoboka ndetse abatunga mu mibereho ya buri munsi, muri ubwo buryo rero hari ubwo nshaka kwibandaho bw'amatungo aho borora amatungo nk'ihene bakajya bayagurisha akabaha ibindi bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Inka, inka ni itungo ryiza rikaba riri muri domestic animals, ariho ari itungo ushobora kororera mu rugo mu ndimi z'Ikinyarwanda, ariko rero kandi zikaba zirya ibyatsi mbega ni itungo ritakurushya kandi rikaguha umusaruro utubutse.

Icyo bita gusasira ibihingwa. Cyane cyane abana bavukiye i Kigali ntago bazi ukuntu ibihingwa bimwe na bimwe nk'ikawa byitabwaho; babisasira bakoresheje inshinge. Ibyo bikarinda isuri kuba yatembana ibyo bihingwa.

Ibihingwa bigiye bitandukanye bidufasha mu buryo butandukanye, ibihingwa rero dukwiye kubyitaho tukabibagarira ndetse tugakoresha amaterasi y'indinganire mu gihe cy'imvura cyane cyangwa se ahantu hahanamye, kugira ngo twirinde imvura kuba ibihingwa byacu byatwarwa n'isuri.

Abashumba ni abantu baragira inka badufasha mu mibereho myiza y'inka zacu bityo natwe tukabasha kubona amata ndetse n'inyama, ndetse bikaba byafasha n'ubukungu bw'igihugu kwiyongera mu gihe abaturarwanda na bo badakennye bikabije.

Ese koko amafamu mu Rwanda aracyahaba, oya, ahubwo amafamu agenda acika cyane cyane ugasanga abantu bagiye bashyiramo ibindi bikorwa remezo nk'amazu cyangwa se bakahahindura ahantu ho guhinga, ariko mu by'ukuri amafamu y'inka yari ingenzi kuko yatugiriraga umumaro, ari n'umuco mwiza w'Abanyarwanda.

Inka ni mu zimwe nyayamaswa dufite zororerwa mu rugo ndetse zikaba zitabwaho n'abantu, inka rero ishobora kugira inyota ndetse cyangwa se bari kuyiha umuti bikaba ngombwa ko bifashishwa abantu babiri bafatanyiriza hamwe, kuyiha amazi cyangwa se bayiha umuti.

Abana b'i Kigali bakunze kuvuga ngo "amata ava ku igare", kuko nta hantu bajya babona bororeye amatungo amata akomokaho, ariko nagira ngo mbamare impungenge mbabwire ngo "amata ntava ku igare, amata aturuka mu mbyeyi, imbyeyi ni yo iduha amata, inka", inka ni nziza rero idufasha kurera abana bacu, idufasha mu bukungu bw'igihugu, inka, urakagire inka, ni ko Umunyarwanda yavuze.

Iyo bavuze agirikaca no korora wumva iki? Ni ubuhinzi mu kinyarwanda ndetse n'ubworozi, mu bworozi rero harimo ubworozi bw'inyamaswa zo mu ishyamba ibiremwa byaremwe n'lmana harimo inkende cyangwa se ibindi bisumbuyemo bakunze kwita ibitera.

Inyamaswa zigiye zitandukanye, ni nziza cyane zigaragara neza ndetse ubasha kubona imirimo igiye itandukanye nyiri ukuzirema yabishyizemo, ukabona mu buryo bwayo bwose iriyadabuta, niho inyamaswa itangaje cyane y'ingagi cyangwa se inkende cyangwa se ibitera na byo bishobora kugutangaza biri mu ubwoko bumwe.

Imana yagiye irema ibintu byinshi cyane bitandukanye ikoresheje ubwiza, ku buryo ujya ureba mu isanzure ukabonamo ibintu bitandukanye kandi bifite ubwiza ndetse butandukanye n'ubudasa, ni muri urwo rwego iyo witegereje inyoni ni nziza ziremye mu buryo butangaje ndetse ushobora kwibaza se ngo zirya gute, ariko ibyo Imana iba yarabitekerejeho, ni akanyamaswa keza ubona ukishimira kaba gateye ubwuzu.

Inkende ni udusimba twiza turi mu bwoko butangaje, aho zibasha kwema zigahagarara zikaba zareba kandi ndetse zikaba zanabasha no kujya guhiga, zikarya zikoresheje n'intoki zazo, mu by'ukuri ni udusimba dutangaje.

Hari inyamaswa zigiye zitandukanye muri iyi si, hari izo wumva, hari izo utumva, hari izo uzabona ukabona uzibonye ku nshuro ya mbere cyangwa se zimwe na zimwe ukajya ubona zifite amashusho asa nk'amwe mu nyamaswa, ushobora kureba mu maso ugasanga ni urukwavu, ku murizo ugasanga ni ipusi. Ibyo byose rero ni ubudasa bw'Imana, ukwiye kujya utembera ugasura, ukamenya inyamaswa zigiye zitandukanye.

Inyoni ni inyamaswa nziza cyane, ifite amabara meza ishimishije ndetse igatangaza abantu mu mibereho yaho, kuko ntihinga ntigira amaboko ngo isarure, ariko ikaba ari inyamaswa ibayeho neza ikanashisha, kurusha ahubwo n'abantu bakora bakeza.

Ibidukikije harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye harimo inyamaswa, ibiti, abantu kandi byose byuje ubwiza, inyoni rero ni inyamaswa nziza cyane ifite ubwiza butangaje yuzu ubwuzu abazungu abirabura bose bahurizwa hamwe no kureba iyo nyamaswa muri parike zayo.

Mu nyamaswa tugira ziguruka mu kirere, harimo n'ubwoko bw'inyoni. Inyoni ni inyamaswa itagira ibiro byinshi ishobora guhagarara ku gati gatoya ndetse ntigwe kandi ni inyamaswa ibereye ijisho, ikurura abakerarugendo igashimisha abato n'abakuze.

Iyo witegereje ukareba abantu ukareba inyamaswa ni ubona ubudasa , ubwiza bw'ibiremwa imana yaremye imana iratangaje imana iteye ubwoba agusanga inkende ifite amaboko ibasha kuba yafata ku biti ikurira igasimbuka niho uvuga ngo mana uratangaje.

Imana aho yitwa Imana, Imana iratangaje, Imana ifite ubwenge burenze ubw'abantu butagereranywa, ni ho nabonye ishobora kurema ibintu bitandukanye muri iyi si, inyamaswa ikabiha ubwenge butandukanye ndetse n'amasura, kandi bifite ubudasa kandi byose bibayeho biyishima.

Ingagi ni bimwe mu nyamaswa zigirira umumaro igihugu cy'u Rwanda, aho gikurura abakerarugendo benshi cyane, kikabasha kwinjiza amadovize mu gihugu, rero ni ngombwa ko twita ku buzima bw'izi ngagi, tuzirinda kurwara, n'ibindi bibi bitandukanye.

Yego ni byiza ku mashuri abana bajyana amavalise cyangwa se amamare yo kubikamo imyenda yabo ariko cyane cyane rwose ikigo nacyo gikwiye kwita ku tuntu tw'utubati two kubikamo ibindi bikoresho, urugero nk'amavuta cyangwa se amakaye yabo kugira ngo babashe kubibika neza bitangirika.

Ese waba uzi ko inyamanswa zose ziri mu Rwanda uzizi? Birababaje ko abazungu bashobora kuza bakaba bagutanga kumenya ibintu byinshi nyaburanga biri mu gihugu cyawe, nawe ni ahawe kujya usura kugira ngo umenye ibintu ubukungu bw'Igihugu cyawe buturukaho.

Mu Rwanda dufite parike nyinshi zigiye zitandukanye ndetse habamo n'inyamaswa zitandukanye. Harimo impala, imparage, udusumbashyamba ndetse n'izindi nyamaswa zindi zitandukanye. Kandi izo nyamaswa zidufasha gukurura abakerarugendo bityo Igihugu kikunguka ndetse bikabazamura ubukungu bw'Igihugu.

Iyo witegereje wagiye nko gusura inyamaswa nibwo ubona ubwiza n'uburyo imana itangaje mu kurema ibiremwa byinshi, hari inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye mu ishyamba zimwe ushobora no kwitiranya nka domestic animals ariko mu by'ukuri ari inyamaswa z'ishyamba.

Inzovu ni nyayamaswa nziza y'ibizuru birebire ikagira umunwa muremure ntiwamenya aho amazuru cyangwa se umunwa biba, kandi ikaba ari inyamaswa nziza cyane iyo abantu batayishotoye ikaba igira ubuntu.

Birababaje aho usanga umuntu afite ubutaka bunini mu rugo buhagije, ariko akaba atabasha kubona imboga mu rugo iwe. Ni byiza ko twese tubasha kumva akarima k'igikoni, akamaro kako, bityo buri mutura Rwanda wese ufite aho kugashyira ntakicare atagafite iwe.

Mbega ukuntu Imana yagiye irema ibintu byinshi bitandukanye byiza! ariko nagukumbuza kumenya ku nyamaswa imwe yitwa inkende, inkende ni inyamaswa imeze nk'ikiremwamuntu, igira urukundo, yita ku bana bayo iyo ibabyaye ikamenya kubahahira no kubitaho.